Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, imbere yabo hari bamwe mu basore bakora ibijyanye n'ubugeni bw'umuziki, bakaba bari kubyina, ababari imbere bose bari kubareba kandi bigaragara ko babishimiye.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bose bari gusobanurirwa uko umuntu ashobora kwizigamira, bityo akiteza imbere mu buryo bworoshye, iyi nama yaremwe n'abakize nk'uko turi kubibona muri iyi foto.

Aha ni ahabiriye inama ikaba yitabiriwe n'abantu benshi cyane kandi bigaragara ko imbere yabo ku meza hateretse amazi n'amaji, bose barakurikiye nta n'umwe urangaye.

Aba ni abantu bari mu nama bicaye mu ntebe nziza cyane z'imituku ziriho imisego, ni abantu b'ingeri zose harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba bose bakurikiye uri kubagezaho imbwirwaruhame.

Aba ni abantu bateraniye mu nzu y'inama, imbere ya buri wese ku meza hateretse amazi ndetse na ji, harimo urubyiruko ndetse n'abakuze, bose bakurikiye ibiganiro bari guhabwa nta n'umwe urangaye.

Iyi ni inyubako iri kuberamo inama harimo abantu bagiye batandukanye, harimo ab'inzego z'umutekano nk'abasirikare ndetse n'abapolisi b'u Rwanda bose barakurikiye, imbere yabo ku meza hakabaho uducupa turimo amazi ndetse na ji.

Uwo musore mwiza cyane wambaye ishati y'amaboko magufi, akaba afite agatsi kogoshe neza ndetse n'utwanwa tukiri duke, ahagaze mu nzu y'inama, ahari intebe ziri kugaragara mu ibara ry'umutuku, akaba ameze nk'uri gutanga igitekerezo cyangwa se inyunganizi.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bari mu itete ryiza cyane rifite ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo. Imbere yabo hateretse ameza hakaba hari kugaragara umuntu uri gutambutsa ikiganiro bose barakurikiye nta n'umwe urangaye.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari mu nama, imbere yabo bose hateretse amacupa y'ama bafite amakayi n'amakaramu bari kwandika ibyo bari kubwirwa. Muri iyi nama kandi harimo abantu bo mu nzego z'umutekano bagiye batandukanye, harimwo abasirikare ndetse n'abasoloviya.

Aba ni abantu bari mu nama, akaba ari abantu b'ingeri zose. Hakaba harimo n'umugabo wambaye impuzankano y'Igisirikare cy'u Rwanda. Bose bateze amatwi uri gutambutsa imbwirwaruhame, aho hari umugabo ufite mudasobwa imbere ye.

Uyu ni umugabo wambaye ishati nziza cyane n'isaha ku kuboko, afite indangururamajwi mu ntoki, akaba ari gutambutsa ikiganiro kubamuteze amatwi, aha hakaba habereye inama rusange.

Aha ni ahabereye inama. Abicaye ku ruhande rumwe imbere yabo hari amacupa y'amazi ndetse n'ammakayi, abicaye ku rundi ruhande, hari mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi, bose bakurikiye inama iri kubera aho.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bari mu nama nyunguranabitekerezo. Imbere yabo hari kugaragara uri kubasobanurira. Bose bafite amakayi n'amakaramu bari kugenda bandika ibyo bari kubwirwa kuko ari ingirakamaro.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari mu nama, imbere ya buri muntu hateretse ikirahure ndetse n'icupa ry'amazi, bose barakurikiye kandi buri wese afite ikaramu n'ikayi, ari kwandika ibyo ari kumva.

Aba beza cyane bateraniye ahantu hamwe. Bari kubyina imbyino z'umuco Nyarwanda , bateze amaboko bambaye imishano ndetse n'inigii aba bari usanga bizihira igihugu.

Aba ni abari beza cyane, bambaye imikenyero, bambaye ingori mu mutwe, bari guseka neza cyane. Ni abari babereye igihugu aba bari bakaba bari kugaragaza umuco nyarwanda nk'uko byahozeho. abari nkuko baserukaga mu birori.

Aba ni ababyinnyi beza cyane. Haragaragaramo umwari, ufite indangururamajwi mu ntoki. Bigaragara ko ari gutera abakaraza bakavuza ingoma, bityo ababyinnyi nabo bagatega amaboko, nk'intore zabitojwe.

Aba ni ababyinnyi bari kubyina imbyino za kinyarwanda bahuriye ahantu mu bukwe, bambaye imishanana ndetse n'imikenyero, amayugi ku maguru bari kubyina, abari mu bukwe banezerewe cyane kuko biri kugaragarira amaso.

Cyera mu muco nyarwanda bakinaga igisoro. Igisoro ni umwe mu mukino abasaza kugeza n'ubu bagikunda ariko ugasanga abasore ntawo bazi kuko bakuze hariho indi mikino ibahuza, ntibabasha kugira amahirwe yo kubimenya.

Mu muco nyarwanda agacuma n'intango y'abakuru, aho baguriragamo urwagwa cyangwa se ikigage cy'amasaka, ibi bigatuma umuntu mukuru afata igicuma akishima.

Mu muco Nyarwanda iyo bakeniraga ifu, bafataga ingasiri n'urusyo maze bagasya kugeza babonye ifu y'inono. Ibi byatumaga abari ndetse n'abamama uyu murimo bawukorana ubushishozi.

Aba ni abari beza cyane, bakaba bari mu mbyino gakondo, aba bari bambaye imishanana, inigi ndetse n'imiringa mu' ijosi, ni abari beza cyane ubona ko bateguwe, maze bakaba bari kumurika umuco gakondo.

Aba ni abantu biganjemo urubyiruko bakaba bari kuganirizwa ku bijyanye n'umuco, aho usanga habaho inama ngaruka kwezi yiga ku bijyanye n'umuco ndetse igasobanurira urubyiruko amateka y'umuco.

Aha ni ahabiriye ibirori, hakaba hari kugaragara abamama bari kubyina imbyino nziza cyane gakondo ndetse haragaragara n'abasore bafite inkoni mu ntoki, aho bagiye guseruka gitore.

Iki ni icyumba kirimo ibikoresho byinshi cyane byifashishwaga kera mu muco wa kinyarwanda, harimo igisabo ndetse n'ibindi. Hatatse amabara meza cyane. Iki cyumba kikaba kirimo ibintu byinshi cyane bijyanye n'umuco.

Mu nzu ndangamurage, dukunze kuhasanga ibintu byinshi cyane byaranze umuco wa kinyarwanda mu buzima bw'ahashize, aho tuhasanga inzu zigiye zitandukanye abami ndetse n'abandi bantu bakomeye b'icyo gihe babagamo.

Aha aha n'ahakorerwa ibikorwa bijyanye no gucura ndetse no gukora inzugi, ibi bikaba ari bimwe mu byo bakora bifashishije umuriro w'amashanyarazi ndetse bakaboneraho no gushimira leta y'u Rwanda yo yawubazaniye.

Iyi ni inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba isize irangi ry'umuhondo, inzugi n'amadirishya ni imikara, iruhande rw'iyo nyubako hari ipironi, iyo piloni niyo izana umuriro w'amashanyarazi muri iyi nyubako ndetse hakaba hasashe n'amabuye.

Aha ni ahakorerwa imirimo yo gutunganya umuriro w'amashanyarazi, turi kubonamo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse n'aho bagenda bacomeka insinga, zigiye zitandukanye, ibi bikaba bikorwa n'inzobere mu rwego rwo kwirinda impanuka, izo arizo zose.

Izi ni inzobere mu bijyanye no kubaka ingomero z'amashanyarazi, bambaye impuzankano y'akazi harimo abari gusunika kugira ngo gihagarare ndetse n'abandi bari kugifunga. Abakora iyi mirimo usanga bafite ubuhanga buhanitse.

Uyu ni umugabo ukora ibijyanye n'amashanyarazi, akaba ari ahantu haturuka umuriro ugiye utandukanye, ari gusuzuma ngo arebe niba umuriro urimo uhagije bityo hataza kubaho ikibazo cy'ibura ryawo.

Aba ni abagabo bari kubaka urugomero rw'amashanyarazi, mu rwego rwo kugira abanyarwanda bose bagerweho n'umuriro wamashanyarazi kandi ufite ingufu zihuta bambaye amajiri, hari abambaye ay'umuhondo n'ubururu ndetse n'abambaye ay'ubururu n'icyatsi kibisi.

Aha ni hari ifoto nini cyane iriho insinga nyinshi z'amashanyarazi zijyana umuriro mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino. Uyu muriro waje ari igisubizo kuko abaturage bo hirya no hino bose bawufite.

Izi ni inyubako zubakishije amatafari ahiye, zikaba zisakaje amabati atukura, zubatswe mu buryo bumwe, bigaragara ko arizo Leta yubakiye abatishoboye, hakaba hari n'ivomero rusange iriho abana babiri.

Aba ni abakozi bakora mu bijyanye n'umuriro, bakaba bari kugenda baterateranya insinga ndetse banasuzuma, bambaye impuzankano y'akazi ndetse bakaba bambaye n'uturinda imitwe yabo. Aba bombi bigaragara ko ari intyoza mu byo bakora.

Uru ni urugomero rw'amashanyarazi ruri kubakwa. Urugomero rukaba ruzaba igisubizo ku kibazo cyari gihari cy'amashanyarazi make mu gihugu kandi abaturage batayafite nabo bayabonere ku gihe bitewe n'uko urugomero ruzaba runini cyane.

Iri ni ipoto rirerire kandi ribyibushye rikaba ririho insinga nyinshi cyane zitwara umuriro w'amashanyarazi ufite ingufu nyinshi, harimo abakozi bakorera ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'umuriro n'amashanyarazi, bakaba bari gushyiraho insinga.

Inyubako nziza cyane zubakishije amatafarihiye, zikaba zisize irangi ry'muhondo, muri izi nyubako hari gutorokamo imodoka nini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, si ibyo gusa kuko izi nyubako zizengurutswe n,ubusitani bwiza cyane.

Iyi ni inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba isize irangi ry'umuhondo, kuri iyi nyubako hariho icyapa kigaragaza yuko hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuhinzi, kandi ikaba iherereye i Nyagatare.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amatara awumurikira mu masaha y'ijoro ndetse n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi kubahanyura, harimo abagenzi bari kugenda n'amaguru, harimo n'umunyegare uhetse umuzigo ku igare ariko urishoreye.

Iyi ni nyubako bigaragara ko ishaje, iyi nyubako isize irangi ry'umweru, ikaba ifite inzugi ndetse n'amadirishya, kuri iyi nyubako hejuru, hariho amagambo yanditswew' ibara ry'icyatsi kibisi, agaragara ko ari ibiro by'akagari ka Kembogo.

Izi ni inyubako Leta igenda yubaka hirya no hino, ibi ni byumba by'amashuri bari kubaka, ariko ntabwo biruzura ahubwo imirimo irakomeje, ni byiza kuba Leta itekereza ku baturage bayo uko bukeye ndetse n'uko bwije.

Hirya no hino mu gihugu usanga leta ihafite inyubako zifitiye inyungu. abaturage uru ni urugomero rwiza cyane ruri kubakwa mu rwego kugira ngo hatunganwe ingufu z'amashanyarazi maze abaturage bose bajye bayabonera ku gihe bitabagoye.

Iyi ni nyubako nziza cyane, yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite inkingi z'ibyuma. Iyi nyubako ikaba ikorerwamo ibikorwa rusange bya Leta. Hari abagabo babiri baje gushaka serivisi, ndetse bari kuzisabira mu idirishya.

Iki ni igikorwa cyakozwe na Leta aho bagiye bubaka bimwe mu biranga amateka y'u Rwanda, iki ni kimwe mu bikorwa remezo byubatswe na Leta hakaba handitseho amagambo agira ati: "Gikoba Liberation History".

Aha ni ku mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icy'u Bugande, hari kugaragara abantu benshi cyane baje gutambuka kuri uyu mupaka, aho bagira bati "urugendo ruhire ndetse murakaza neza mu gihugu cy'u Bugande."

Iki ni kimwe mu biraro byo mu kirere leta y'u Rwanda yagiye yubaka hirya no hino ,mu rwego rwo kwirinda impanuka zaterwaga n'imyuzure ,Abaturage bagahera hakurya y'inyanja. Ibi tubishimira leta y'u Rwanda.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo urimo ibice bibiri, harimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, hakurya y'uyu muhanda hari kubera imirimo y'ubwubatsi y'inzu zigeretse, ndetse hakaba hari n'amatara amukira uyu muhanda mu masaha y'ijoro.

Izi ni inyubako nziza cyane Leta yubaka hirya no hino, mu rwego kugira ngo yegerereza serivisi abaturage, yubakishije amatafari isize irangi ry'umuhondo, isakaje amabati, imbere yayo hari ubusitani ni bwiza cyane, bituma bigaragara neza.

Iyi nyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi ndetse n'amadirishya biriho ibirahuri by'umukara, inyubako ikabasakaje amabati, hejuru y'inyubako hariho akantu kubabakishije amatafari ahiye ndetse izi nyubako bigaragara ko imbuga zazo zitararangira gukorwa.

Iyi ni inyubako nziza cyane, ikaba isize irangi ry'ubururu, iyi nyubako isakaje n'amabati y'ubururu, akaba ari inyubako y'ivuriro, hari n'abahagana baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, bigaragara ko bategereje ababakira.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodokadoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, iri kumanuka, hakaba haciyemo utorongo tw'umweru ndetse n'ak'umuhondo, iruhande rw'umuhanda iburyo n'ibumoso hari imigina iri kugaragara mu ibara ry'umuhondo.

Iyi nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ifite inkingi z'ibyuma, ikaba ifite inkuta zisize irangi ry'umuhondo, aha ni ahatangirwa serivisi za Leta, hari kugaragara abantu bagiye batandukanye, harimo n'abo mu nzego z'umutekano.

Iyi nyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho, iyi nyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati atukura, inyubako isize irangi ry'umuhondo, imbere yayo haparitse moto ndetse n'amamodoka menshi cyane, izi nyubako zikaba zubakwa na Leta.

Uyu ni umuhanda w'igitaka, ukaba uri gutambukamo ikimodoka gihetse ikindi, ikimodoka cyaguye hasi bityo biba ngombwa ko baza kugitora, uyu muhanda umeze neza cyane nubwo nta kaburimbo irimo.

Aha ni mu muhanda rwagati, ahari kugaragara abantu batandukanye harimo n'abo mu nzego z'umutekano hari kugaragaramo umupolisi ndetse n'abandi bayobozi, harimo umugabo umwe uri kubasobanurira, watunze agatoki hakurya y'umuhanda.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari gusobanurirwa ibijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Bakagaragaza n'uburyo abantu bica uburenganzira bw'abandi nkana.

Aba ni abagabo batandukanye, bakaba bateraniye ahantu hamwe, aho bari kuganira ku bijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Buri muntu wese akwiye kubaho atabangama kandi nawe atabangamiwe.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe ni mu kibuga kinini cyane, aho bateye intebe mu buryo buzengurutse, hakaba harimo n'abo mu nzego z'umutekano, mo hagati hari umumama uri gutanga ikiganiro, bose barakurikiye kandi ari kuvuga ku bijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Uyu ni umuhanda ukaba urimo ikinyabiziga kiri kuwugendamo, iki kinyabiziga gifite amapine ane, kikagira ibyapa bibiri by'indangakerekezo ndetse kiri guturuka ahantu hari ibyatsi.

Iki ni icyapa kirimo amabara y'icyatsi kibisi, ubururu ndetse n'umweru. iki cyapa kigaragaza urusengero ndetse hakaba hari kugaragara ubwatsi bwiza giteretsemo, hari n'giti bigaragara ko gitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Iyi ni inyubako yubatswe neza cyane mu buryo bugezweho, isize irange ry'umuhondo ku nkuta hasi hakaba hari amakaro. Aha ngaha rero hakaba hatangirwa serivise z'ibijyanye no guha amatike abantu bagiye ku ngenda mu binyabiziga bitandukanye.

Uyu ni umuhanda w'amabuye ukata mu duce dutuwemo n'abaturage, aha hakaba habera n'ubucuruzi. Muri uyu muhanda harimo moto, ikaba iriho umumotari wambaye kasike y'umutuku, agapira k'umukara karimo uturongo tw'umweru akaba nta muntu atwaye.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, aha hakaba hari utuyira tw'umweru tugaragaza ko ari akayira k'abanyamaguru, aho ibinyabiziga iyo bihagaze bihagarara bityo abagenzi bakabanza bakambuka kuko ari ko igazeti ya leta ibiteganya.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba uriho uturongo tw'umweru ugaragaza aho abanyamaguru bambukira. Iruhande rwawo hari umugabo wambaye ishati, akaba yikoze mu mufuka, ahagaze imbere y'akazu k'ikigo cya sosiyete icuruza ibijyanye n'itumanaho mu rwanda MTN.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, ndi kubonamo imodoka ndetse na moto, si ibyo gusa kuko hakurya y'umuhanda, hari n'abanyamaguru bari gutambuka, hakaba hari n'ipoto iriho umuriro w'amashanyarazi, umukira uyu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, kikaba kigeze aho gihagaze kugira ngo abagenzi bari bagitegereje binjiremo bityo kibashe kubageza mu duce bagiyemo.

Umuhanda wa kaburimbo wubatswe ku buryo burombeye, ku ruhande hakaba hasasheho amapave. Hari ibyapa bibiri, ikerekana ko imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange cyemerewe guparikawa, ndetse n'ikindi cyerekana ko aho hari akayirak'abanyamaguru.

Aba ni abaturage bagiye batandukanye. Bakaba bari mu gikorwa cy'umuganda, aho bari guterura amabuye bayashyira mu kinogo cyaciwe n'amazi anyura hafi aho. Ni mu rwego rwo kugira ngo abagana ivuriro riri hakurya bajye bahagera nta nkomyi.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye mu'itete, hakaba harimo n'abo mu nzego z'umutekano, harimo abasirikare, abapolisi, abadaso ndetse n'abaturage basanzwe, imbere yabo, hakaba hari uri kubasobanurira, ku bijyanye n'umutekano.

AHa ni ahabereye inama, igamije kwiga ku bijyanye n'umutekano ndetse n'uko uyu mutekano bashobora kuwushyira mu bikorwa, iyi nama yari yitabiriwe na bamwe mu bagize inzego z'umutekano, harimo n'abasirikare.

Aba ni abaturage bari mu gikorwa cy'umuganda, aho bari gukora umuhanda, ni benshi cyane bakaba bari kwikorera umuhanda kugira ngo bajye babona aho banyura, hirya y'uwo muhanda bari gukora hari ibiti byiza cyane, bigaragara ko bitanga umuyaga.

Aba ni abantu bicaye ahantu hamwe mu itente bakaba bari gusobanurirwa ibijyanye n'umutekano ndetse n'uko bagomba kuwicungira. Muri iyi nama hakaba hari kugaragaramo n'abaturutse n'inzego z'umutekano harimo abapolisi ndetse n'abasirikare.

Aha n'ahabereye inama hakaba hari amatente menshi cyane, abantu bicayemo bari gusobanurirwa ibijyanye n'umutekano ndetse n'uko bagomba kuwikorera bo ubwabo nta wundi muntu bategereje.

Aha ni ahakorerwa imikino igiye itandukanye by'umwihariko uw'amaguru harimo umukinnyi uhagazemo, n'ikibuga k'igitaka gifite amazamu manini akaba inyuma y'ikibuga hari urusengero bigaragara ko ari urw'abakirisitu.

Uru ni urubyiruko ruri mu muhanda wa kaburimbo, rukaba ruri muri siporo rusange, siporo zikunze gukorwa n'abantu bakiri bato, ariko n'abakuru bakwiye kuzikora, mu rwego rwo kugira bagorore ingingo zabo.

Iki ni ikibuga cy'umupira w'amaguru, ni ikibuga gifite ubwatsi bugezweho, gisa icyatsi kibisi, hakaba harimo umurongo w'umweruru, harimo abakinnyi, umwe agiye gutera ishoti undi yiteguye kuyikuramo mu rwego kugira ngo amubuzeze gutsinda.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe mu kibuga cy'umupira, bakaba basoje imyitozo ngororamubiri. Imbere yabo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki, uri kubagezaho, bimwe mu byo bakwiye kwitwararikaho mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Aba ni abakinnyi bari mu kibuga cy'umupira, bose bari kwishyushya, bamwe bambaye imyenda y'ubururu abandi bambaye y'umuhondo, haruguru y'icyo kibuga hari inzu yubakishije amatafari ahiye, si ibyo gusa kuko harimo n'amatara amurikira icyo kibuga.

Aba ni abasore bicaye muri sitade, bakaba bari kureba umukino, bose nta n'umwe wishimye, bigaragara ko ikipe baje baje gufana, iri kugenda yitwara nabi, bigatuma amarangamutima yabo ajya kure.

Aba ni abakinnyi bari mu kibuga cy'umupira, ni ikibuga cy'umupira kigezweho kirimo ubwatsi bw'ubukorano, aba bakinnyi umwe uhagaze imbere ya ballon, yambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, aho bagiye gukina bambaye ubururu, bigaragara ko iri rushanwa rikomeye.

Iki ni ikibuga cy'umupira ,kigaragara ko ari ikibuga cyiza cyane cy'igitaka .Harimo umukinnyi bigaragara ko ari umukinnyi w'indahangarwa yambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, ikabamo uturongo tw'icyatsi, yambaye amasogisi y'umuhondo ndetse n'inkweto zirimo akabara k'ubururu.

Uyu ni umuhanda uca hagati mu ngo ntabwo ukoze neza ariko bawunyuramo. Ibi ni byiza ko hirya no hino mu gihugu imihanda ica mu ince z'icyaro ikorwa kugira ngo ahantu hose hagere imihanda myinshi.

Umumama uri kugenda mu muhanda w'igitaka. Ni umuhanda bigaragara ko bigeze gukorwa ariko ukaba ari kwangirika, hirya no hino mu gihugu hagaragara imihanda leta y'u Rwanda iba yarubakiye abaturage ariko kubera kutitabwaho ikaza kwangirika.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, ukaba urimo urujya n'uruza rw'abantu, imbere turabona umunyeshuri wambaye impuzankano iri mui ibara ry'umweru ndetse na kaki, uri gutambuka ajya ku ishuri, ari kugenda hakurya y'umuhanda.

Aha ni mu muhanda w'amabuye, hakurya y'umuhanda hari urujya n'uruza rw'abantu bari gutambuka, bigaragara ko ari mu masaha y'ijoro, amatara amuririka uyu umuhanda arikwaka, hakurya hakaba hari amazu.

Uyu ni umuhanda w'igitaka, ukaba uca mu ngo, uyu muhanda bigaragara ko wakozwe neza kandi unyurwamo n'ibinyabiziga. Abatuye muri aka gace, bishimira kuba bafite uyu muhanda, kuko utarahagera kugera aho bajya byarabagoraga.

aba ni abantu bari gutambuka, iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, mu muhanda nta kinyabiziga kiri kunyuramo, haruguru y'umuhanda hari inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho ndetse hari n'ubusitani bugaragara neza.

uyu ni umuhanda wa kaburimbo, hakurya y'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru gasashemo amapave, leta y'u Rwanda yubatse imihanda myiza cyane hirya no hino, mu rwego rwo kugira ngo abaturage bature heza kandi batekanye.